Abaganga bari mu cyumba bafitemo umurwayi utwikiriye, bambaye za masike n'imyenda y'akazi. Ahantu bari, hari amatara y'ubururu hari kwaka.

Iduka bacurizamo imiti y'amatungo harimo umugore wambaye itaburiya y'umweru aranasutswe, ari gufata umuti hejuru mu ka etajeri inyuma ye hari izindi zishaje.

Ndabona amabuye y'amakoro ari ahandu, amwe bakunda kubakisha ino mu majyaruguru ariko nkabona garamereyemo ibyatsi byitwa indeja.

Ibyatsi byinshi biri kumera, hagati harimo ikirekire gifite ibibabi bitandamye. Hari agati k'umweru karambitse, n'igitaka kimeze nk'ifumbire. Hirya hari utundi turi kurandaranda.

Ahantu hari amabuye yamezemo ibyatsi, hari n'igiti cyatangiye kuzamuka, gifite ibibabi birebire, kumpande hari ahantu hijimye ukuntu.

Ikirundo c' amabuye y' amakoro, harimo uturabyo tw' umweru n' utundi twatsi turi kuranda dusa n' urwiri hari n' utundi tutagaragara ntazi izina ryatwo.

Ndabona abandu bari gukora ikiraro bari mu muganda. Icyo kiraro kiri mu giturage, ahandu hari imigano iri gukura. Ni ahandu ubona h'icaro cane.

Ahantu harunze amabuye y'amakoro menshi, hamereyemo ibyatsi, harimo n'ikindi kiri gukura, kimeze nk'ishu ritarapfundura.

Ubusitani bwiza burimo ururabo rw'igiti, hakurya hari inzu yubakishijwe ruriba y'amadirishya y'ibirahuri. Hari n'udusikariye, imbere yaho ni isima.